Ameza akeye ababaji ni bo bayakora, imbere cyangwa se hagati yayo hateyemo indabo bigaragara ko ari imitako, hateretse uducupa tw'amazi n'abari gutunywa, ba nyiratwo, harimo abagabo n'abagore.

Ni byiza kwigirira icyizere ukaba wagira ijambo uvugira imbere y'abantu kubera ko bituma wumva ko utekanye nta kibazo nk'uko uyu mugore rero ari kubigenza, yambaye ishati y'umukara ndetse n'akumweru mo indani, hari ameza ari imbere ye ateretseho ibitabo ari gusomeraho, hari n'abandi ari kuganiriza.

Hita dushyiraho uburyo bwiza cyane bwo kuba twakaka ibyangombwa birimo by'uko tutakatiwe n'inkiko, iby'impunzi, n'ibindi tugerageze rero tujye tubyitabira tubikore ku giti cyacu, aho tutazongera gutanga andi mafaranga y'ababidukoreraga.

Abaturage bateranye, bamwe bitwikiriye imitaka y'umutu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, barimo baraganira ku bintu runaka, ariko imbere hahagaze uwambaye imyenda y'iroza. Bigaragara ko yakoze ibyaha bitandukanye, akaba ari kubiryozwa imbere y'imbaga nya mwinshi.

Inzego z'umutekano zirakora iyo rero n'imodoka ya polisi ndetse ifite icupa mo imbere rizimya umuriro ariko ubu ngubu ndabona ntaryo yagendanye gusa akenshi usanga aba arimo asa umukara, intebe ndetse n'umweru uciye hagati. Ahagaze imbere y'inyubako isa n'ikoreramo amabanki.

Ni byiza ko niba uri umuyobozi ugomba kumenya ikintu ubwira abantu uyoboye cyangwa se abaturage muri rusange, uyu nguyu uhagaze imbere asa naho ari kubaganiriza, hakurya hari abategarugori ndetse n'urubyiruko baje kumva ibihavugirwa, hari uducupa tw'amazi babahaye kugira ngo binywere.

Abaturage ni benshi bitabiriye ibiri kubera hano hari n'abantu bari gufata amashusho ndetse ibiti birahateye birimo birabazanira akayaga abahumeka umwuka mabi bikabahereza umwiza amadarapo nayo arahari arimo aragurutswa n'akayaga.